Icyapa kinini kigaragara mu mabara y'umweru, umuhondo na move kiriho abantu batatu, ababyeyi babiri n'umwana kigaragaza ko dukeneye mu gihe kizaza umutekano wa famiye, bivuze ngo biciye mu gushakira abana ubwishingizi n'ubwizigamire bizashoboka.

Icyangombwa cy'ubutaka B, igice kigenewe ibiranga ba nyiru ubutaka ibyemezo cyangwa ibyangombwa bitandukanye. Igitangwa na nutaraliya kopi ceretifika comforume orujinali, ikirango cy igihugu C, igice kigenewe ubundi burenganzira.

Ubu busitani bwiza cyane buteyeho ibyatsi bya pasiparume n'izindi ndabo zitandukanye, hagati akayira keza k'amampave gakomeza kagenda kajya mu tuzu twabugenewe two kwicaramo, intebe zitukura n'iz'umukara, inyuma ibiti birebire bya gereveriya.

Umuntu, igare, igikapu cy'icyatsi cyanditseho vuba vuba, umuntu wambaye umupira w'icyatsi n'ipantaro y'umukara, amarembo y'urupangu, umuhanda wa kaburimbo n'urupangu ubwarwo.